Ibyarahani bigezweho rero nabyo usanga ari ingirakamaro ku buryo bufatika, nk' izi mashini usanga ziba zimeze neza cyane ku buryo zitanagora umutayera ,umudozi cyane mu buryo bwo kuzikoresha.

Abanyeshuri bari kwiga ubukanishi bw'ibyuma bitandukanye, n'imodoka zitandukanye, biga mu mashuri ya kaminuza.

Abakanishi baba bari gutunganya ibyuma bitandukanye, bambaye n'ibisurubeti byabo by'akazi kugira ngo kazi karusheho kugenda neza. Iyo ukeneye gukenera ibyo utekinika cyangwa se utunganya ushobora kujyayo bakagufasha kubikora.

Abatetsi barimo gutegura ibyo kurya, cyane mu mpuzankano yabo umwambaro wo guteka, bigaragara ko baba bitegura no kwimenyereza ,cyane ko ari abanyeshuri.